Kuba abana bahabwa ibikinisho bimrimo iby'amabara ni byiza kuko bituma bakunda ibyo bikinisho, ndetse biba byiza byanditseho imibare kugira ngo bige n’imibare.

Abana bagomba kuzanwa kwiga hakiri kare kugira ngo bazasoza amashuri bakiri batoya bitandukanye cyane n'iby'ubu kubera ko mu minsi ishize wasangaga umwana afite imyaka myinshi akiga kubera gutinda gutangizwa.

Iyo umwana ukiri mutoya umuguriye inkongoro igaragara neza biramushimisha, abana burya ntabwo bashimishwa n'ibintu bihenze ahubwo akantu gafite ishusho nziza kabagwa neza.

Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bworoshye bwo kwigisha abana b'inshuke, cyane cyane kubegereza ayo mashuri mu tugari twabo kugira ngo ababyeyi bajye bafata abo bana bahabageze mu buryo bworoshye.

Niba ushaka ko umwana wawe mutoya yiga kandi akajya afata vuba, ni byiza kumwigisha ariko ukoresheje ibishushanyo n'utuntu twiza twamabara kubera ko aribyo abana bakunda.

Bimwe mu bindi bintu bishimisha abana batoya ku mashuri ni ukuba harimo ibyuma byo kuryamo iminyenga, kubera ko umwana yumva ari byiza kandi akumva yagaruka kandi iyo agarutse nawe ufatirana ayo mahirwe ukamwigisha.

Abana batangira kwiga ni ukuvuga ab'inshuke, bagomba guhabwa ibikoresho bishimishije, bisa neza mu mabara kubera ko ari iby'abana bakunda, bigatuma biga neza kandi bishimye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, bakunda gushimishwa n'udukapu turiho amashusho y'ibinyugunyugu cyangwa andi mashusho abashimisha n'udupupe cyangwa utundi tuntu, iyo batubonye bituma bakunda icyo kintu wabaguriye.

Ikigo cyigaho abana b'inshuke, ni byiza gushushanyaho ku nkuta ubyerekana ko icyo kigo koko kiga abo bana kugira ngo uhageze wese abe yabasha kumenya ko hari icyo kigo.

Iyo ubonye ahantu washushanyije udukinisho tw'abana, udukaramu se n'utundi dukoresho dusa mu mabara atandukanye, uhita utekereza ko aho hantu hashobora kuba hari ishuri ry'abana b'inshuke.

Abana batoya biga mu mashuri y'inshuke, iyo ubahaye utu dukoresho tw'amagare cyangwa moto dutoya bagenderamo, baba bumva babayeho banyuzwe kandi bakishimira uwabibakoreye.

Ikigo cyigaho abana biga, cyane cyane aba b'inshuke, hagomba kuba hari kandagira ukarabe, ndetse irimo n'amazi meza kugira ngo, umuco w'isuku uharangwe.

Abanyeshuri bakunze gukenera ikarita yerekana Igihugu cyabo n'uturere twose tukigize ndetse bakaba bamenya n'aho batuye bifashishije ikarita ndangagihugu.

Ikigo k'Igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda, cyashyizeho itetero kugira ngo abana bage bisangamo bigiremo amasomo anganya na bo ubushobozi ndetse bakure bafite ubwenge.

Bimwe mu bintu bikomeza gushimisha abana batoya kubakorera udushushanyo nk'utugare, akaba yakumva ko icyo kintu arimo agenderaho ari icyanyacyo koko, bigatuma akimenya neza.

Iyo ufashe umwana muto ukamubaza ubwoko bw'iyi nyamaswa, ashobora kwivugira ibintu bihabanye n'ibyo watekerezaga. Nyamara igiharara gikunze kugaragara mu ngemu ndetse gikunze no gutinywa n'abana.

Niba ushaka ko umwana wawe yiga imibare kandi akayimenya mu buryo bworoshye, ujye umwigisha ukoresheje udushushanyo tw'utunyoni twanditseho imibare kuko iyo yamye akabona bituma abifata.

Utuntu dukoranye ubuhanga dushimisha abana batoya cyane kuko byonyine no kutwirebera n'amaso yabo ndetse bakabihuza n'amashusho babona cyane ku mateleviziyo, baba bumva banyuzwe na byo.

Kwigisha abana ukoresheje amashusho, bituma babifata vuba, ni ukuba wakwigisha umwana ukamubwira inka ariko anayireba ku gishushanyo kubera ko bitashoboka ko uyimuzanira mu ishuri, ukifashisha ubwo buryo.

Igihe abana bari kwigishwa ku mashuri ibikoresho bigiye bitandukanye, bagomba kuba banabyerekwa kubera ko iyo umwanawana akimenye ariko yanakereretswe nibwo uvuga neza ko yagifashe.

Ni byiza ko buri kigo cy'amashuri kigomba kuba gifite ibikorwa remezo by'imyidagaduro kubera ko abana kubaho badakora siporo ngororamubiri, bishobora gutuma bananirwa vuba ndetse n'amasomo ntibajye bayumva.

Burya niba tugiye kwigisha abana batoya tugomba kubereka n'ibishushanyo by'abandi bana basa naho bari mu kigero kimwe, bakiyumvamo ko abo ari bagenzi babo.

Bizwi neza ko umunyeshuri wiga pirimeri, cyane cyane guhera mu mwaka wa kane kuzamura, akenera iseti irimo ibikoresho nk'irati, agacongesho, ikaramu y'igiti n'ibindi bigiye bitandukanye.

Uburyo bwiza bwo kwigisha abana batoya bakaba babifata vuba, ni uburyo bwo kubigisha ukoresheje amashusho cyane kuruta kubabwira kubera ko umwana iyi shusho yamugiye mu mutwe imusigaramo.

Ni byiza ko ugiye kwigisha abana, ubanza ugakusanya ibikoresho byose kugira ngo babyige babyirebera, cyane cyane utu dukoresho tw'amabara kubera ko abana bakunda utuntu tw'amabara menshi.

Umwana wese ugeze mu mashuri ya pirimeri, cyane cyane kuva mu mwaka wa kane kuzamura, agomba kuba afite iseti irimo ibikoresho azakenera mu mibare.

Kuba umwarimu yakoresha ibishushanyo birimo indabyo, radio, ipantaro, ijipo, isahani, inkweto, imineke, ingofero ndetse na voka, biri mu buryo bwiza abana babifatamo mu buryo bworoshye kuruta kuba wabibazanira ukabibereka.

Ahantu higishirizwa abana hagomba kuba hari amafoto y'inyamaswa, kubera ko byagaragaye ko abana bakunda kureba inyamaswa cyane cyane ku mafoto.

Bimwe mu bintu abana bakunda gukina na byo ukabona bishimye ni utunyugunyugu kubera ko baba babona ari inshuti zabo kandi bakishimira gukinana na two igihe cyose batubonye.

Iyo umunyeshuri amaze kugera mu mashuri asa n'ayisumbuyeho gatoya, agomba kuba afite ibikoresho byo akoresha cyane cyane mu isomo ry'imibare birimo nko kuba yagurirwa iseti.

Bimwe mu bintu bikunze gushimisha abana batoya, harimo nko kuba wabegereza ibikinisho n'ibindi bintu bikozwe mu ishusho yabo kubera ko bibashimishije cyane bigatuma bakura mu mitekerereze.

Mu bigo by'inshuke na pirimeri, hagomba kuba hasukuye kubera ko aba baba bakiri abana bato bataramenya ko imyanda ishobora kubateza indwara bikaba byabaviramo urupfu.

Ababyeyi dukunze gushishikarizwa kwita ku bana bacu cyane cyane abanyeshuri. Si iby'abarezi gusa kuba ari bo bakwigisha abana ahubwo natwe tugomba kongeraho akacu kugira ngo abo bana amasomo abagemo neza.

Ibikoresho bikenerwa by'imibare birimo nk'amarati, iseti ndetse n'ikaramu y'igiti, ibi bihabwa umunyeshuri ugiye kwiga imibare cyane cyane ugeze mu mashuri nka pirimeri mu wa kane.

Iyo ikigo kimaze gutera imbere usanga gifite aho binjirira hagari ndetse hanasa neza kubera ko ibigo byose ntabwo byabona ubwo bushobozi.

Inzu yubatse mu buryo bwiza, igomba kuba ifite igisenge, amadirishya, inzugi ndetse byaba byiza iyo ifite n'igitebe kubera ko aricyo kiyifata, bigatuma ikomera, ntigwe.

Ibigo bya pirimeri bigomba kuba bikikijwe n'uruzitiro cyangwa se hakaba hari indabyo zigiye zikikije icyo kigo n'uduhanda tugana ku mashuri agiye atandukanye y'abo banyeshuri.

Ku kigo cy'amashuri hagomba kuba hari itandukaniro n'izindi nyubako kubera yuko inyubako zose burya ziba ari zimwe ariko ziba zifite ikintu kizitandukanyirizaho, ukamenya niba ari ishuri cyangwa ibivuriro.

Udushushanyo tw'amabara turimo udukurura abana, ni byiza kubigisha udukoresha kubera yuko badukunda cyane bigatuma n'iryo somo wabigishije baryumva cyane kubera ko ari bwo buryo bwiza bwo kubikoramo ku bana.

Igihe abana wabigishije cyane cyane abana biga pirimeri ukabona batangiye kunanirwa ugomba kunyuzamo udukino kugira ngo bumve bagarutse mu isomo kandi iyo bamaze gukina barongera bakiga neza.

Ni byiza ko dutoza abana hakiri kare cyane cyane abiga amashuri yisumbuye kuvugira mu ruhame ndetse bakamenya n'uburyo bitwara muri urwo ruhame kubera ko ni ibintu biba bizabafasha mu myaka yose baba basigaje.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bagomba kuba batekerwa kugira ngo imyigire yabo igende neza kubera ko iyo bamaze kurya, batekereza neza kandi ubwenge bwabo bugakora neza.

Umuco wo kwishima abanyeshuri bakaririmba, wakunze kugaragara cyane mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye, kubera ko usanga bakora ibikorwa byo kwamamaza ikigo cyabo binyuze mu ndirimbo.

Leta ya y'u rwanda yashyizeho uburyo bwiza bwo kwiga kubera ko yabonye urubyiruko rukeneye amasomo agiye atandukanye azarufasha mu buzima bwabo buri imbere, ikabinyuza mu mashuri ndetse n'ahandi hose hashobora guhurira urubyiruko, rukaba rwafata amasomo.

Umwarimu wigisha abana bo muri segonderi agomba kwita cyane ko buri mwana wese agera ku kibaho akaba yakwandika ibyo yumvishe mu isomo rye kandi bikanamumara ubwoba guhagarara imbere y'abandi.

Nta kintu gishimisha nko kubona abana biga segonderi, bari kumwe ndetse banahuje umugambi, iyo bakoze neza bahabwa ikemezo kerekana yuko ibyo bakoze babikoze neza, bityo kikaba ishimwe kuri bo.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, bagomba kujya bafata umunsi byibura mu cyumweru bakaganirizwa n'abayobozi kubera ko baba bafite ibintu bibagoye byinshi, cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere.

Nyuma yuko Leta ibonye ko bikwiriye ko abanyeshuri ba segonderi bahabwa ibyo kurya kugira ngo bakomeze amasomo, yaje kubishyira mu bikorwa ndetse ubu ngubu hose ni ko bimeze.

Kwibuka si iby'abaturage gusa bakuru baba baramenye igihe jenoside yabereye ndetse bakanayinyuramo, bamwe bakarokoka ahubwo bigomba no kugezwa mu mashuri ya segoderi n'ayisumbuye na kaminuza kugira ngo n'urubyiruko rumenye iby'amateka yabaye mu igihugu.

Kuba abana bambaye impuzankano zisa, biba bisa neza kubera yuko n'iyo umubonye ahantu ari ari hose uhita ubona ko ari umunyeshuri kandi abanyeshuri, bagira uburenganzira bwabo bwihariye.

Iyo umunyeshuri arangije segonderi, ahabwa icyangombwa cyerekana ko yayize kandi yanatsinze, aricyo twita diplome kugira ngo bamushimire urugendo rwo yatangiye, kuva yatangira kwiga, kugeza ubu ngubu asoje.

Ni byiza ko abanyeshuri bagira iminsi bicazwa bakagirwa inama n'abayobozi babo kuko urubyiruko ari zo mbaraga z'Igihugu, ruramutse imitekerereze yarwo itameze neza birumvikana ko byagira ingaruka ku Gihugu.

Biba byiza iyo ufashe nimero ukazandika ku nzugi hejuru kubera ko iyo ugiye mu bigo byateye imbere usanga imiryango yose isa igatandukanywa na nimero nibyo biba ari byiza kugira ngo buri wese ntayobe.

Iyo ugeze muri kaminuza y'u Rwanda, uhabona udutebe duteye neza ndetse tuba dufite n'aho umunyeshuri ashyira amakayi ye, igihe agiye kwandika kandi bikamworohereza.

Kuba umuntu ikintu cyose agiye gukora yakambara uturindantoki biba ari byiza kubera ko hari indwara nyinshi twandura bitewe n'ibintu twagiye dufataho ariko iyo uzambaye ntabwo wongera guhura n'izo ndwara ukundi.

Ntibigikunze kugaragara ko ibumba riboneka ahantu hose, nyamara kera ryakundaga kuboneka rigakorwamo ibintu bigiye bitandukanye, ubona ko binasa neza ariko ubu byabaye nk'ibicitse, ntibikigaragara cyane.

Iyo ugeze muri kaminuza, zigiye zitandukanye cyangwa ibindi bigo byigenga, usanga inyubako zaho zubakanye ubwenge, zisa neza kubera ko kaminuza ni ahantu haba hasa neza, hasurwa cyane n'abakerarugendo,

Abanyeshuri bo muri kaminuza, usanga bakunze kwigira muri za mashine ndetse banafite ibitabo, bagakunda kwigira mu matsinda basobanurirana kugira ngo ibyo bahawe gukora babyumve neza kandi bahuje umugambi.

Buri mwaka kaminuza y'u Rwanda igomba gukora ikirori kugira ngo abanyeshuri basoje amasomo, bishimire ibyo bagezeho kandi babikoreye n'imbaraga zabo zose.

Iyo ugeze ku bigo bya kaminuza usanga ari ahantu hatinyitse kuhinjira, bigasaba ko ugomba kuba ufite uruhushya cyangwa ikarita yemeza ko uri uwaho cyangwa ugasiga irangamuntu yawe.

Iyo ugeze ku bigo byigenga na za kaminuza, haba hari itandukaniro n'ibindi bigo by'amashuri birimo nka pirimeri ndetse n'amashuri yisumbuye kubera yuko yo haba hari ibintu byihariye bigaragaza ko aho hantu koko ari muri kaminuza.

Kaminuza nyinshi zigiye zitandukanye zirimo n'izigenga, iyo ugiye kuzigaho ubona zitandukanye n'ibindi bigo bya segonderi, kubera ko n'intebe zabo ziba zikeye cyane.

Iyo ugeze mu mashuri ya kaminuza kubera ko amashuri aba ari menshi kugirango umenye ishuri wigiramo rigomba kuba ryanditseho nimero, ibi bikorwa kugira ngo umuntu ntayobe kubera ko amashuri yose asa.

Hari inkono za kinyarwanda zabaga zikozwe mu ibumba kubera ko kera arizo bakoreshaga hataraza amasafuriya y'ubu, none ubu, bitangiye gucika ntibigikunze kugaragara kubera ko iterambere rigenda rigera ku baturage.